Igihe umubyeyi afite umwana wonka, akwiye guhura inshuro nyinshi na muganga, kugira ngo akurikirane ubuzima bwe ndetse amwiteho kugira ngo umwana akurane ubuzima buzira umuze. N'iyo mpamvu muganga nawe yakirana umubyeyi ikaze, akamubwira uko umwana amerewe ndetse akanamwitaho uko bikwiriye.

Umuturage yagera kuri byinshi igihe abona afite aho akora amazi meza. Niyo mpamvu mu duce dukwirakwiriyemo amazi meza twose twose tugize isi bifasha abaturage kuba bagera kuri buri kimwe bifuza bitewe n'uko bashobora kuba babona amazi meza uko bikwiriye.

Hari ibintu byinshi dukwiye kubungabunga, bishobora gufasha ubuzima bwa buri munsi. nk'amazi, ubona yuko ari kimwe mu bigize ubuzima bwa muntu, kuko ashobora kumufasha muri byinshi. Nk'iyo umwana agize inyota, akaba yabona amazi yo kunywa, ni bimwe mu bintu umwana ashobora kugirira umunezero kugeza igihe uwo mwana agiriye ahazaza ari heza.

Kugira isuku dukaraba umunsi ku munsi ni kimwe mu bintu bishobora kubungabunga ubuzima bwacu, kimwe cy'uko bishobora kuturinda indwara zigiye zitandukanye harimo nk'indwara z'ibicurane, inzoka, n'izindi ndwara zose zishobora kwataka umubiri binyuze mu kudakaraba intoki z'ibiganza, niyo mpamvu buri wese akwiye guhora akaraba akoresheje amazi meza n'isabune.

Ni byiza ko hagomba kwifashishwa amakinamico mu bukangurambaga cyane cyane nk'iyo hariho ubukangurambaga bwo kurwanya ibyorezo runaka nka ebora n'ibindi byorezo bigiye bitandukanye kubera yuko bidufasha mu kubona ubwitabire bw'abantu benshi kandi bagomba kuba bakurikiye inyigisho ziri kubera muri ubwo bukangurambaga binyujijwe mu makinamico no mu yindi mikino.

Umwana wese akwiye kuba yakwitabwaho, akamenyerereza ko kugira isuku, agakaraba inshuro nyinshi ku munsi bitewe n'uko isuku aricyo kintu cyonyine gishobora kuba cyarinda umwana kuva akiri mutoya kugeza akuze kuko bimufasha ubuzima bwa buri munsi, akajya ahantu hafite isuku ndetse akaba yanagira bagenzi be inama zo kwisukura.

Abantu usanga bashimishijwe no kubona bagenda bahashya indwara ziterwa n'umwanda, usanga amazi meza afasha ibintu byinshi, niyo mpamvu usanga abantu bagenda bayakoresha mu gukora imirimo yo mu rugo, kwiyuhagira, kwisukura, kumesa imyenda n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ari nayo mpamvu rero igihe cyose turimo dukoresha amazi meza usanga twishimye cyane kuko biduteza.

Yegamye ku gikuta areba hejuru, imitekerereze ye yayerekeje ku mibereho ye yose. Arimo aribaza niba ubuzima kububaho ari ingenzi, ariko akirengagiza yuko uko byamera kose ubu buzima tuba tugomba kububaho. Byanze bikunze iyo ubonye yuko mugenzi wawe abayeho, nawe uba ugomba kubaho ugakurikiza inzira yanyuzemo, ndetse ugakotana cyane kugira ngo ushyire ibi kubangamira hirya ku ruhande, byose bikugende inyuma, hanyuma wowe ugende wemye.

Usanga abantu benshi bakunze kugira ikibazo cy'indwara z'amenyo ariko biba byiza iyo umurwayi ahisemo guhita yihutira ku ivuriro bakamufasha kwita kuri ayo meyo ye bakamuha ubuvuzi ndetse muganga anamugira inama y'uko akwiye kwitwara mu gihe arimo abungabunga amenyo ye kugira ngo bimufashe kuba yagira ubuzima buzira umuze.

Umuryango utabana mu makimbirane biwufasha kubaho wishimye kandi abana bawo bagira ubuzima buzira umuze kubera y'uko baba barahawe urukundo rw'ababyeyi ndetse bakabasanga buri kimwe cyose gishobora kubabunga mu buzima niyo mpamvu usanga ba b bagomba kuba ari abana bihangana kandi bagira ubwenge kuko baba babuhawe n'ababyeyi babo.

Kimwe mu bintu bishimisha ababyeyi, ni ukubona yitabwaho n'abana be, bose banezerewe bishimye, ibyo bintu bimutera nawe umunezero kandi bishora kuba byamwongereye igihe cyo kubaho, kubera ntabwo aba ahangayikishijwe na byinshi byo muri iy'Isi, niyo mpamvu usanga rero iyo umubyeyi abona abana be bishimye bamwitaho ntacyo atakora kugira ngo nawe agire ubuzima bwiza.

zimwe mu nshingano abaganga bagira ni ukwita ku barwayi kugira ngo babashe kubiyumvamo kugira ngo bafata imiti neza bishimye kandi batuje, niyo mpamvu usanga umurwayi wese afite umuganga runaka yiyumvamo ko icyo gihe yamuhaye amuhereje imiti, bimufasha kumva aguwe neza kandi iyo miti akayifatira ku gihe amuviramo kuba yagira ubuzima buzira umuze.

Inteko rusange igamije guhuza abaturage bose batuye umudugudu cyangwa akagari cyangwa abateraniye ahantu runaka bagahuriza hamwe ibitekerezo bagacoca ibibazo bakaganira ku cyateza imbere agace kabo ndetse bagakemura ibibazo byose bikwiriye gukemurwa muri uwo mudugudu cyangwa muri iyo nama ibagize.

Urubyiruko rw'u Rwanda ni inkingi ya mwamba y'ejo hazaza h'igihugu, niyo mpamvu igihugu ubwacyo cyicara kigategura ubukangurambaga mu rubyiruko cyane cyane ku nsanganyamatsiko igira iti urubyiruko hazaza heza hu Rwanda. Irinde virusi itera Sida wipimisha uyu munsi mu rwego rwo kugira ngo buri wese amenye ko iyi virusi itera sida ishobora kumugiraho ingaruka kandi ikazigira no ku gihugu cyose.

Ku kigo nderabuzima ni ahantu h'ingirakamaro bitewe nuko ari ahantu usanga, hari ibyo umuntu akeneye by'ibanze nk'ubuvuzi, guhabwa inama, ndetse ni n'ahantu usanga abakozi bashobora kuba bakora batitaye ko hari icyo bari gukorera; icya mbere ni uko baba bagomba gutanga ubuzima nk'uko baba barabirahiriye.

Hari ibintu byinshi umuntu aba agomba kwitaho igihe akora imyitozo ngororamubiri harimo nko kunywa amazi menshi igihe urimo uririnda indwara y'isereri ndetse kandi ukaba ugomba kwita ku gihe ukora siporo kuko ntugomba kurenza igihe kiri hagati y'isaha ndetse n'iminota mirongo itatu.

Gukoresha imyitozo ngororamubiri ahantu harambuye kandi hasa neza biduha amahirwe menshi yo kwirinda indwara zandurira mu kugira isuku nkeya, ndetse kandi biturinda n'indwara zimwe na zimwe zishobora kwataka umubiri wacu harimo guhinamirana, imitsi, umuvuduko w'amaraso n'izindi nyinshi cyane.

Imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu umuntu ashobora gukoresha mu gihe agiye gutanga ubuvuzi bw'ibanze, bishobora kurinda indwara zimwe zataka umubiri wacu harimo umuvuduko w'amaraso, indwara z'imitsi, umuntu ashobora kuzikoresha igihe yirinda indwara zirimo umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara zose zishobora kwataka umubiri wawe.

Imyitozo ngororamubiri ni imwe mu ngamba umuntu afata igihe arimo ararwara indwara ziterwa no kugira ibinure byinshi mu mubiri, guhengamirana, umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Agahitamo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri we ushyuhe abashe kuba yayaza ibyo binure kugirango izo ndwara zibe zareka kwaduka mubiri we.